Ahantu hari abantu batandukanye, hakaba harimo abagabo babiri bambaye utujeri turiho umusaraba wa Croix Rouge, iruhande rwabo hakaba hari abandi bagore babiri bisa nk'aho hari urupapuro bafasheho bari kwerekana, bisa nk'aho hari igikorwa runaka cyari kimaze gukorwa cyangwa ubuvuzi bwihutirwa.

Umugabo wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki, imbere ye hicaye undi mugabo usa nkaho yavunitse akaguru k'ibumoso aho bagashyize hejuru ku kameza gahari. Uyu mugabo akaba arimo aragerageza kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Abantu bahagaze ahantu mu cyumba k'inzu bambaye utujiri turiho ikimenyetso cy'umusaraba cya kuruwaruje, imbere yabo hari undi muntu usa nkaho ari kubaganiriza ababwira uko ubutabazi bw'ibanze butangwamo.

Abantu batatu bambaye impuzankano ndetse n'ibibarinda isura, bakaba bari ku kagare barimo bacunga umuntu wumurwayi ukaryamyeho, bisa nk'aho bari kumwihutana kugirango bamuhe ubutabazi bw'ibanze.

Abantu bambaye impuzankano iriho ikimenyetso cy'umusaraba cya Croix Rouge aho bari ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye bisa nkaho baje kugira ubutabazi bw'ibanze batanga.

Ahantu hahagaze abantu batandatu, hakaba harimo abazungu basa nkaho ari batatu abandi batatu ari abanyafurika, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, za mashini ndetse n'ibindi, umugabo uri hagati wambaye ishati y'umuhondo na baji bisa nkaho arimo arasobanurira abo bantu ibihakorerwa, mu bigaragara ni uko hakorerwa serivise zijyanye n'ubuvuzi.

Ahantu hari umugore ubona ko arembye bakaba bamushyize kuri burankali, hakaba hari umugabo utagaragara neza mu maso wambaye akajiri kariho umusaraba wa Croix Rouge, iruhande hakaba hari abandi bantu bikoreye ibintu, bisa nk'aho uno mubyeyi bamwirukankanye kugira ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze.

Aha ni kwa muganga, aho hari abaganga babiri bambaye impuzankano zabugenewe, bakaba bari gukurura akagare karyamishijweho umurwayi, bakaba bamujyanye kumwitaho mu buryo bwihuse. Iruhande rw'aho bari guca hari indabyo zihateye ndetse hari n'ibyatsi.

Abantu bahagaze imbere y'inzu ubona ko yubatse neza, hari umuntu ushinzwe kuzimya ibijyanye n'inkongi y'umuriro aho yafashe umukobwa umwe muri abo bantu ari kumwereka uburyo bakoresha kizimyamwoto, inyuma yabo hateretse icupa rya gaze ndetse n'indi kizimyamwoto ndetse hari n'icyapa.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo agatanda umurwayi bamuryamishaho, mu gihe muganga ari gupima indwara arwaye, hari kandi n'udukoresho dukoresha ikoranabuhanga, dufasha muganga kumenya indwara, umurwayi arwaye.

Ni mu ivuriro, aho mu cyumba hari udukoresho twabugenewe twifashishwa n'abaganga bita ku murwayi, hari agatanda karyamishwaho umurwayi ndetse n'utundi dukoresho turimo imiti yifashishwa kugira ngo umurwayi ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Umuntu bigaragara ko yagize ikibazo cyo gushya ikirenge, akaba yagishyize ku kantu kameze nk'akuma, muganga akaba arimo aragerageza kumupfuka, kugira ngo arebe ko yamufatirana nta mikorobe zari zajyamo.

Abakobwa beza cyane ubona ko bakeye bambaye imipira isa, bisa nkaho'a ari impuzankano, abo bakobwa bakaba bose bafite imisatsi bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umutuku ariko aya magambo ntabwo agaragara neza bigaragara ko hari igikorwa runaka barimo bakaba bari bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni umuganga w'umugore ubona ko yambaye itabuririya y'umweru, ari gusuzuma umubyeyi aho yafashe akantu kabugenewe, akagashyira ku nda y'umubyeyi utwite, hanyuma agashyiraho ugutwi kugira ngo yumve uko inda y'uwo mubyeyi imeze.

mu cyumba cyo kwa muganga hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu gihe umuganga arimo arasuzuma umurwayi mu gihe ari ibintu byihutirwa cyane, iki cyumba bakizanamo umurwayi mu buryo bwihutirwa mu gihe arembye kugira ngo babashe kumuha ubuvuzi bw'ibanze.

Ni ahantu hari amarembo ariho icyapa kivuga kiti "urakaza neza mu bitaro bya kigeme". Uwo muhanda ukaba urimo amapave ndetse iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti byiza cyane. Harimo abantu ndetse n'imodoka zihagenda.

Abantu bari imbere y'inzu mberabyombi hakaba harimo abambaye imyenda y'imyeru, harimo n'umupolisi wambaye impuzankano y'abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu irimo imiti myinshi igiye itandukanye ikaba ari inzu y'ivuriro, hakaba hari abagore babiri hakaba hari n'undi mugore wazanye umwana aje gushaka serivisi z'ivuriro aho aba bagore barimo baramwandikira imiti, imbere ku meza hateretse imiti myinshi igiye itandukanye ndetse n'imashini.

Umugabo uhagaze ahantu wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, bisa nk'aho hari imbwirwaruhame arimo aratambutsa, inyuma ye hari inyubako zihagaragara ndetse n'ibiti byinshi bitandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye ubona ko basa nk'aho hari serivisi batanga ku mavuriro n'ibigo nderabuzima bigiye bitandukanye, bambaye baje zabo mu ijosi ndetse harimo n'abambaye amatabuririya y'umweru.

Ahantu hari ivuriro ubona ko ryubatse neza, hari akayira kagana kuri iryo vuriro gasakariye ndetse hari abantu bagannye iryo vuriro, imbere y'iryo vuriro haparitse imodoka ndetse iryo vuriro rizengurutswe n'ibiti bigiye bitandukanye bitanga akayaga.

Ni atahantu batanga serivisi z'ubuvuzi, aho hicaye abakobwa bambaye imyenda y'umweru. Bafite amakayi barimo barabaza abaje babagana. Bisa nk'aho hari ibyo bari kwandika kugira ngo babiteho. Hirya hakaba hari n'undi wakiriye abandi, hari n'undi wicaye wenyine ku meza.

Ni umugabo n'umugore, bahagaze ahantu hari amabara yenda gusa icyatsi ariko cyijimye, bafite seretifika mu biganza byabo bisa nk'aho hari intego imwe runaka bamaze kugeraho, bakaba babiherewe seretifika.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga aho harimo umuganga wicaye arimo ararebera mu gikoresho k'ikoranabuhanga kigezweho cyifashishwa n'abaganga basuzuma ibizamini bafatiye abarwayi, icyo gikoresho kikaba cyitwa mikorosikopi.

Ni ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki aho afite udutesite twifashishwa n'umuganga apima ibizamini bya virusi itera sida, ku meza hakaba hari urupapuro rwanditseho amagambo atandukanye.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara neza mu maso, kikaba cyambaye uturindantoki, afite akantu arimo arakoza mu gacupa gahari, bisa nk'aho ari muri laboratwairi, hari ibizamini arimo arafata ndetse akabipima yitonze, imbere ye hari utundi ducupa turimo ibizamini byinshi bigiye bitandukanye.

Umuforomokazi w'umudamu ufite imisatsi yirabura, yambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki arimo arandika, ku meza hateretse ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, ku ntebe hari undi muntu wicaye wambaye na we itabubariya y'umweru akaba yicaranye n'undi mugabo.

Abantu b'abaganga bateraniye hamwe, ubona ko hari ibimera biri ku meza barimo barigaho. Bamwe bari kwandika ndetse hari n'uri gufungura rubine bisa nkaho hari ibintu bari koza. Ku ruhande hari undi muganga wambaye ibikoresho byabugenewe aho arimo aragerageza gupima muri laboratwari.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho hari ababyeyi bazanye abana babo, hakaba hari n'umuganga urimo arapima abana ibiro kugira ngo amenye neza uko ubuzima bw'aba bana burimo buragenda.

Ahantu hagaragara ko ari kwa muganga cyangwa se ku kigo nderabuzima hakaba hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, iruhande rwe hakaba hari umugore ufite akana mu biganza, uyu mugabo arasa nkaho arimo ararangira uyu mugore aho yajyana umwana kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi.

Umugore wambaye itaburiya y'ubururu akaba ari kumwe n'abandi bagore bisa nk'aho bamuzaniye umwana ngo arebe ikibazo afite, uyu mugore akaba yamwicaje, akaba arimo agerageza kureba ikibazo umwana afite kugira ngo amuhe ubuvuzi bw'ibanze, ku meza hateretse imiti itandukanye.

Aha ni mu kigo cy'ishuri cya materineri aho ababyeyi baje gusura abana babo biga muri icyo kigo bakaba babatekeye indyo yujuje intungamubiri aho bagiye kugaburira abana babo.

Ababyeyi bicaye ahantu benshi bagiye batandukanye. buri mubyeyi akaba afite akana k'agahinja, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira wa orange na marinete ubahagaze imbere, bisa nk'aho aba babyeyi baje kwaka serivisi z'ubuzima, zijyanye n'ubuvuzi bwabana.

Abantu bicaye ahantu mu byatsi, hakaba harimo abagore batatu ndetse n'abagabo babiri. Abagore batatu bambaye impuzankano cyangwa se amatabuririya y'ubururu ndetse buri muntu wese hano afite telefone ngendanwa mu ntoki. Umugabo umwe arunamye yambaye baje mu ijosi, bisa nkaho ari kureba ibyo bari kumwereka muri telefone.

Ni ahantu munsi y'igiti kinini k'inganzamarumbo hakaba hari intebe n'abantu bahicaye, imbere yabo hahagaze umuntu ufite mikorofone mu ntoki wambaye akajiri bisa nk'aho hari imbwirwaruhame arimo arabwira abantu bitabiriye inama.

Abantu bagiye batandukanye bari imbere y'inzu ubona ko ari inzu nini cyane harimo abagabo ndetse n'abagore hamwe n'abana batoya, inyuma kuri iyo nzu hakaba hariho icyapa cyanditseho ngo Matimba korosi boda.

Abantu bicaye ahantu mu ihema, bakaba ari abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye, haragaragara ibikoresho by'ikoranabuhanga aho hari undi muntu bisa nk'aho nawe arimo ara kamera, mu bigaragara n'uko hari igikorwa runaka cy'ingenzi bitabiriye aho bose bakurikiye urimo arabagezaho ikiganiro.

Abagore babiri bicaye ahantu bambaye impuzankano cyangwa se amataburiya yenda gusa ubururu, imbere yabo ku meza hari ibitabo byinshi bihari bigasa nkaho bano bagore ari nk'abanyabuzima, iruhande rwabo hari umuntu uhahagaze ndetse inyuma yabo hari n'undi, hari n'icyapa cyanditseho amagambo atagaragara neza.

Abaganga batatu ubona ko bambaye impuzankano aho bipfutse ahantu hose bambaye uturindantoki ndetse n'uturindamutwe, aba ngaba bakaba bashinzwe gupima ibintu byerekeranye n'ibyorezo.

Abantu benshi bari ahantu imbere y'inzu, hakaba harimo umupolisi wambaye impuzankano z'igihugu cy'u Rwanda ndetse muri abo bantu harimo n'abazungu, bahagaze imbere y'ibyapa byinshi harimo icyanditseho Isange one stop center.

Ahantu hicaye abantu bambaye impuzankano y'imipira y'icyatsi, bakaba bicaye ahantu mu ihema, ab'imbere hakaba ku meza hateretse ururabo rwiza cyane, telefone ngendanwa, uducupa tw'amazi ndetse n'ikaramu, biragaragara ko hari igikorwa runaka baje gukurikira ndetse bose bakaba bateze amatwi.

Abantu benshi ubona ko ari urubyiruko, hakaba harimo abanyeshuri bambaye impuzankano, babiri b'imbere bakaba bafite icyapa cyanditseho amagambo agira ati, rubyiruko turwanye ibiyobyabwenge kuko bitwicira ubuzima, bikanadindiza iterambere ry'Igihugu cyacu.

Abantu bicaye ahantu mu mahema ndetse bakaba bose bambaye impuzankano. Imipira y'imyeru ndetse n'amakabutura y'iroza bisa nk'aho barimo barakoma amashyi, bivuze ko hari umuntu uri imbere uri kubaganiriza, bakaba barimo bamushimira.

Umugabo wambaye umwenda w'ikigo cya RBC uri mu ibara ry'umweru, akaba yambaye amalinete ndetse afite na mikorofone mu ntoki ze, ari imbere y'ibyapa bya RBC biriho ngo: "Ibiyobyabwenge birica".

Abaganga babiri, umugore n'umugabo bambaye baji ndetse bakaba bambaye amatabuririya y'umweru y'akazi, inyuma yabo hahagaze undi mugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse na marinete nk'uko bigaragara ni ku ivuriro ry'indwara zo mu mutwe.

Ni ibiganza by'umuntu ariko akaba atagaragara neza, afite inzara ndende ndetse muri ibyo biganza hakaba harimo utuntu turimo ibinini, akantu kamwe gasa n'aho ibinini byashizemo ndetse akandi hakaba harimo ibinini hakaba hari kimwe yamaze kunywa.

Inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba iteye amarangi y'umweru. Iyi nyubako bari kutubwira ko ari inyubako icururizwamo imiti myinshi igiye itandukanye, yaba iy'amatungo ndetse n'iy'abantu.

Ni mu nzu yubatse mu buryo bugezweho hakaba hateretsemo akabati kanini kari mu mabara y'umweru, muri ako kabati hakaba harimo imiti myinshi igiye itandukanye bisa nkaho iyi ari inzu ya farumasi icuruza imiti.

Ni ahantu mu nzu ubona ko harimo etajeri ipanzemo ibintu byinshi cyane, biragaragara ko harimo umugabo w'umuganga imbere ye ateretse imashini. Mu by'ukuri mvuze ko iyi ngiyi ari farumasi ntabwo naba ntandukiriye cyane, kuko harimo imiti myinshi igiye itandukanye.

Ahantu ubona hari umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, ikaba ari imihanda ibiri icomekeranye, hari umuntu uri gucunga igare mu muhanda w'abanyamaguru ndetse haragaragara inzu nziza yubatse iteyeho amakaro hariho icyapa kivuga ngo ni farumasi.

Umugabo uri ahantu mu nzu wambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye hakaba harimo etajeri irimo imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye. Iyi nyubako akaba ari farumasi, ikaba icuruza imiti igiye itandukanye, ku meza hariho grafezi ndetse n'indi miti hakaba hariho n'akapa ka momopeyi bakoresha bishyura.

Inzu yubatse neza hakaba hagaragaramo etajeri ipanzemo ubwoko bw'imiti igiye itandutanye. Iyi nzu ikaba izwi ku izina rya farumasi kuko hacururizwamo imiti myinshi igiye itandukanye.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda usanga abaganga baba bambaye ibikoresho byabugenewe mu gihe bari mu kazi, aha hakaba hari amaga abiri cyangwa azwi ku turindantoki byambarwa n'umuganga mu gihe agiye gufata ibizamini umurwayi.

Ni ahantu ubona ko hari umuhanda usa nk'aho ushaje, hakaba hari inyubako ikorotiriwe n'igipangu gisa umweru .Aho ngaho kuri iki gipangu hakaba hariho icyapa cyanditseho ngo ivuriro rya Jack i Nyagatare.

Ahantu muri etajeri, aho harimo udukarito twinshi tugiye dutandukanye turimo imitijyi itandukanye, bikaba bigaragara ko ari ahantu mu bubiko bubikwamo imiti igiye itandukanye, abaganga bifashisha baha abarwayi.

Ni ahantu hagaragara umuhanda wubakishije amapave, ku ruhande rw'ibumoso hakaba hariho inyubako z'ubucuruzi zitandukanye. Hakaba hagaragara inyubako imwe ikorerwamo serivisi za farumasi. Aho umuntu wese ukeneye umuti aza hano bakamuha imiti kuko bacuruza imiti y'ubwoko bwose.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse n'udufuniko tw'umweru, tukaba turiho icyapa kiriho amatungo: inka, inkoko ndetse n'ihene, bivuze ko harimo imiti yifashishwa havurwa aya matungo agiye atandukanye.

Etajeri irimo imiti myinshi igiye itandukanye, iyo miti ikaba ifunze mu ducupa tugiye dutandukanye. Iyi nzu ikaba ari Farumasi icururizwamo imiti. Harimo umuganga w'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, aho arimo aragerageza gutunganya iyo miti neza.

Umuntu uhagaze ahantu mu nzu irimo ama etajeri apakiye imiti myinshi igiye itandukanye. Iyi nzu ikaba ari farumasi. Aho icururizwamo imiti myinshi igiye itandukanye nk'uko bigaragara, harimo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ndetse ivura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye, bisa nk'aho hari inama yahabereye, hahagaze umugabo ufite mikorofone mu ntoki ndetse na telefone ngendanwa, bisa nk'aho hari ibyo ari kubabwira, inyuma hari inzu zihari ku inzu imwe hariho icyapa cyanditseho ngo serivisi zubuzima zegerejwe abaturage.

Abantu bahagaze ahantu bambaye imyenda y'imyeru, y'imipira, hakaba harimo n'umuzungu w'umugore, iruhande rwabo hari ihema rihubatse ndetse inyuma hari icyapa cyampamaza cyanditseho amagambo ati birakureba.

Ahantu ubona ko hubatswe amahema ndetse muri ayo mahema hakaba hicayemo abantu. Hakaba hari abakobwa babiri baje ku kajyaga kuvoma amazi kugira ngo bashyire abo bantu boge neza intoki zabo, hirindwe umwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Haragaragara kandi n'ishyamba ryinshi.

Abantu bahagaze ahantu mu nzu ubona ko bambaye impuzankano. Bose bahagurutse bari gukoma amashyi, imbere kumeza hateretse telefone ngendanwa ndetse n'uducupa turimo amazi y'inyange. Bisa nkaho hari umuntu barimo baraha amashyi bitewe n'ijambo ryiza babwiye.

Abana benshi bateraniye ahantu hamwe ubona ko bisa nkaho ari mu kigo cy'ishuri kuko abenshi muri bo bambaye impuzankano, ku meza bateretseho icyapa cyanditseho ngo ndi uw'agaciro ndashoboye.

Ahantu ubona ko hari ikirori runaka cyahabereye, hakaba hubatse amahema ndetse hakaba hari abana bambaye impuzankano y'umuhondo, bafashe ibyapa hari n'abandi bana bambaye impuzankano y'ishuri bicaye hasi bisa nk'aho hari ubutumwa barimo baragenera bano bana bicaye.

Umuntu ufite agacupa gafite umuvuniko w'umweru utagaragara neza mu isura, imbere ye ku meza hateretse igitabo kinini bisa nk'aho ari Bibiliya ndetse hateretse n'ibindi bimera byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa hakorwa imiti gakondo igiye itandukanye.

Ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, hakaba hari abantu bahari ndetse hari n'intebe zihateguwe zicarwaho n'abaje gushaka serivisi. Kuri icyo kigo nderabuzima handitseho ngo girubuzima.

Inzu yiganje mu mabara y'ubururu ndetse iyi nzu ikaba ikorerwamo serivisi z'ubuzima, akaba ari ikigo nderabuzima, cyubatse ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse ikaba yubatse hagati y'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, kuri iyo nzu handitseho ngo Girubuzima.

Ni ahantu hateraniye ababyeyi benshi bafite abana, imbere yabo hakaba hari abaganga baje kwita ku bibazo abo bana bafite, mu bigaragara ni uko aba baganga barimo baragerageza guha ubuvuzi bukwiriye bano bana bazanywe n'ababyeyi babo.

Ni ahantu hubatse amahema hakaba harimo abaganga batandukanye, aho barimo barafasha abaturage baje babagana, babasuzuma indwara nyinshi bagiye barwaye kugira ngo babashe kubaha ubuvuzi ku gihe.

Ikigo nderabuzima kiri mu mabara yiganje y'ubururu, amabati akaba na yo ari ubururu, imbere y'ikigo nderabuzima hari umubyeyi uri kubagan,a uhetse umwana ufite na malete, imbere y'icyo kigo nderabuzima kandi hari abana benshi bicaye mu mbuga yacyo.

Aha ni kwa muganga hari umuganga wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki afashe ikiganza cy'umuntu asa nk'aho agiye kumutera agashinge kugira ngo abashe gupima amaraso ye areba indwara irimo, hari ibikoresho byinshi bitandukanye muri icyo cyumba byifashishwa n'abaganga.

Ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu ndetse gishakarishije amabati y'ubururu hakaba hariho insinga z'amashanyarazi. Muri icyo kigo nderabuzima imbere yacyo hari abantu bahicaye ndetse ku ruhande rwacyo rw'ibumoso hakaba hari amahema ahubatse iy'umweru, akayira kajyayo karimo amapave.

Ikigo nderabuzima ubona ko kiri mu mabara y'ubururu ndetse kikaba gisakaje n'amabati y'ubururu, hakaba hari abantu bahari ndetse hari na moto ihaparitse, imbere yacyo hari ivaze iteyemo ibiti ndetse hari n'ibiti by'imikindo bihari.

Inzu ubona ko yubatse mu buryo bwa kijyambere ndetse akaba hariho insinga z'amashanyaraz,i kuri iyo nzu ari icyapa, cyanditseho ko ari ahantu hagurishirizwa imiti y'amatungo n'ibikoresho byo mu bworozi.

Ni inzu ubona ko yubatse mu buryo bugezweho ikaba ari etaje. Munsi hari ibibumbano biriho imyenda igurishwa. Hejuru hari icyapa kimenyesha abantu ko muri ino nzu hakorera umuganga utanga serivisi zo kuvura amenyo.

Ni akazu ubona ko gasa nk'aho gakorerwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo haraturukamo abantu batandukanye, muri abo bantu harimo abazungu ndetse n'abandi b'abirabura bicaye.

Inzu ebyiri bigaragara ko ari inzu z'ikigo nderabuzima, aho kuri buri nzu hicaye abantu basa nk'aho baje gusaba serivisi zerekeranye n'ubuvuzi, imbere yaho hakaba hari igiti kinini kihateye k'inganzamarumbu.

Inyubako iri mu mabara y'ubururu yiganje iki kikaba ari ikigo nderabuzima gifasha abantu mu kubaha ubuvuzi bw'ibanze, imbere y'iyo nyubako hicaye abantu benshi bisa nk'aho baje gushaka serivise z'ubuzima.